Icyumba kinini kirimo ibikoresho bitandukanye bigaragara yuko ari nk'ishuri ry'abana bigiramo kandi ibi bikoresho bakaba babyifashisha bari kwiga bakabikinisha kugira ngo biyongere ubumenyi, babashe kumenya byinshi ku byo biga.

Abana babiri harimo umuhungu n'umukobwa bari imbere y'akazu bororeramo inkwavu biragaragara yuko aba bana borora izi nkwavu bakaba bari bavuye ku kuzahira bakaziha ubwatsi bagakuramo rumwe zisa nkaho'aho mugenzi we ari kumwereka amwereka yuko' yorora inkwavu.

Abanyeshuri b'inshuke bambaye impuzankano isa, bahagaze imbere y'abarimu babo, abarimu babo biragaragara yuko hari ibyo bari kubigisha, aba banyeshuri kandi bakaba bari ku murongo imbere y'ishuri ryabo, bigaragara yuko aya mashuri biyifashisha bayigiramo.

Abanyeshuri b'inshuke bigaragara yuko bari ku ishuri. Biragaragara yuko kandi bari kumwe n'abarimu babo bicaye ahantu bari kubigisha kuko bari gusubiramo ibyo abarimu babo bari kubereka. Hirya yaho bicaye kandi hakaba hari inzu igaragara yuko ariryo shuri bakoresha bigamo.

Imodoka ntoya bigaragara ko ari agakinisho k'abana, aka gakinisho bakaba bakifashisha kugira ngo babone ko umwana yayishima ari kugakinisha kandi aka gakinisho bigaragara ko kabahenze kuko karasa neza.

Umwana mutoya w'igitambambuga, akaba yicaye ahantu hari amarangi imbere ye, bigaragara ko yayasize no ku gikuta, biragaragara neza ko uyu mwana aya marange yayasigiwe akaba ari kuyakinisha.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gisakaje amabati atukura bigaragara ko iki kigo cy'amashuri abanyeshuri bigaho bari mu mashuri, batari hanze. Iki kigo cy'amashuri hepfo yacyo hakaba hari akandi kazu gatoya, imbere yacyo kandi hakaba hari ikibuga bisa nk'aho aricyo bifashisha bakinamo.

Imbwa nini isa neza bigaragara ko yabonye ibiryo bihagije, ikaba ifite umupira imbere yayo isa nk'iri gukina, iyi imbwa ikaba iri gukina yonyine, hirya yayo hakaba hagaragara ibiti bisa nk'aho byeze neza.

Abanyeshuri benshi bigaragara ko abo banyeshuri ari abana b'incuke baba biga mu mashuri abanza, aba banyeshuri kandi bakaba bari gukina imbere yabo bakaba bigaragara ko ari ishuri ryabo ryubatse hirya kandi hakaba hari amazu bigaragara ko iki kigo gisanzwe cyubatse mu mudugudu utuyemo abandi bantu.

Inzu y'ishuri abana bigamo biragaragara yuko aba bana bari imbere, iyi nzu kandi ikaba ifite amadirishya n'inzugi ku gikuta cyayo hakaba hashushanyijeho ibikoresho n'ibindi bintu bitandukanye bifasha aba banyeshuri kwiga hanze yawo kandi hakaba hari ikibuga kirimo ibyatsi bisa nkaho aba abana bakinira.

Icyumba k'ishuri kinini kirimo abanyeshuri bicaye mu matsinda bisa nk'aho umwarimu uri imbere yabo uri ku kibaho ari kubandikira yabahaye umukoro bari bukore bari mu matsinda bityo bikabafasha kungurana ibitekerezo bakabasha gutsinda.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri barimo abakobwa n'abahungu bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari meza irambitseko amakayi bakagaragara y'uko bari mu gukora imyitozo basigiwe bakaba bari kuyiganiraho kugira ngo babashe kuyikora neza bayitsinde.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri b'incuke, biragaragara yuko abanyeshuri bicaye bari kwiga, imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha kuko imbere yabo hari ikibaho cyanditseho inyuguti, hakaba muri iryo shuri harimo n'ibishushanyo bishushanyijeho bifasha abanyeshuri kwiga.

Inzu yubatse neza imeze nk'aho ari ibyumba by'amashuri abana bigamo, aya mazu kandi akaba yubakishijwe amatafari ahiye, akaba afite inzugi n'amadirishya arimo ibirahure bigaragara neza ko yubatswe n'abantu bazi kubaka, akaba asakaje amabati afite ibara ry'ubururu.

Ishuri ririmo abanyeshuri, abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano yabugenewe bakaba bari ku murongo bigaragara ko imbere yabo hari abarimu babo bari kugira ibyo babagezaho bakaba batuje kugira ngo bumve icyo bababwira.

Umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana kandi uyu mugabo yitwa Jabo, umugore akaba yitwa Simbi, bakaba bafite abana bane harimo Ganza, Keza, Shema na Isaro.

Abantu benshi bari ku murongo bigaragara ko hari serivisi bagiye guhabwa, aba bantu kandi ahantu bari hakaba hegereye ibyumba by'amashuri, bigaragara yuko nta banyeshuri bahari ahubwo hari bano bantu kugira ngo bahabwe serivisi baje kureba.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe bakaba bagaragara bafite udukoresho tw'isuku, bakaba bari gutoragura imyanda izengurutse ikigo cyabo, bakayishyira ahantu habugenewe, biragaragara ko iki kigo gifite isuku.

Ikigo cy'amashuri kiriho inyubako zubatse neza biragaragara yuko kino kigo cy'amashuri kigamo abana b'inshuke kuko baragaragara ko bakiri bato. Bakaba bari kumwe n'umwarimu wabo uri kubigishiriza hanze. Hanze hafi yaho kandi hakaba hari ibyuma bakoresha bari gukina.

Igitabo gishushanyijeho abanyeshuri babiri bagaragara bari gusoma igitabo, iki gitabo kikaba cyarateganyirijwe umunyeshuri wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, iki gitabo kikaba ari icy' isomo ry'ikinyarwanda, kikaba gifasha abanyeshuri kwiga amasomo y'ikinyarwanda bakayatsinda.

Umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana, bicaye ahantu hamwe bigaragara yuko bari kuganirizwa n'ababyeyi babo, ababyeyi babo bakaba bicaye bari kubagezaho ikiganiro, bigaragara ko aba bana bateze amatwi bumva icyo ababyeyi babo bari kubabwira.

Akayira karimo utuyira twinshi tuyerekeza ku kigo cy'amashuri, biragaragara yuko iki kigo cy'amashuri cyubatse neza cyubakishije amabuye ahiye, kikaba kiwufite n'amabati atukura, akaba imbere hari n'ibiti bishishye bigaragara ko babyitayeho.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri bigaragara ko bari kwiga kuko imbere yabo bafite amakayi n'amakaramu bikagaragara yuko bambaye ibintu ku mutwe bigaragara ko ari uburyo bakoresheje kugira ngo aba banyeshuri badakopera.

Icyumba kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano, harimo umwe usa nk'aho abana n'ubumuga bwamaguru, iki cyumba kandi kikaba kirimo ameza ariho ibyo kurya bano bana bari kwifashisha bafungura, icyumba kandi kikaba kimeze nk'ikirimo isuku kuko kirasa neza.

Abanyeshuri benshi bateraniye ahantu hamwe bigaragara ko imbere hari umwarimu wabo uhagaze akaba ahagurukije umunyeshuri umwe usa nkaho hari ibyo ari kuvuga abandi bakaba bamuteze amatwi ngo wumve ibyo avuga.

Abantu benshi bateraniye ahantu bigaragara ko bagizwe n'abanyeshuri, bambaye impuzankano yabugenewe kandi hakaba harimo n'abantu bakuru, biragaragara yuko hano hari igikorwa bitabiriye, bakaba kandi bishimye kuko bisa nk'aho bari gukoma amashyi babyina.

Umunyeshuri w'urukara wambaye impuzankano yabugenewe, hejuru yambaye ishati y'umweru iciye amaboko n'ipantaro y'umukara akaba ari imbere y'abantu asa nkaho afite ibintu yakozemo ubushakashatsi ari kubereka, bakaba babigiriye amatsiko bamwitegereje ngo barebe ibyo aribyo.

Abanyeshuri batonze umurongo bambaye impuzankano yabugenewe, bakaba bigaragara yuko aribwo baje gutangira, kuko hari n'ibikoresho bisa nk'aho aribwo bavuye mu rugo, kandi aba banyeshuri bakaba bari imbere y'ishuri ryabo, aho imbere yabo hari umukuru w'ikigo uri kubakira.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bamwe baricaye hari mugenzi wabo uhagaze n'umwarimu wicaye impande ye biragaragara ko aba banyeshuri bafite ingingo bari kuganiraho umunyeshuri uhagaze akaba ari kubaha ibitekerezo byiwe kugirango ngo yumve nabo bicaye baramuteze amatwi.

Abanyeshuri benshi bari ku murongo wambaye impuzankano isa, biragaragara ko aba banyeshuri bari imbere y'ishuri ryabo bakaba bahagaritswe n'abayobozi babo bisa nkaho babari imbere bari kubaha amabwiriza ari bubagenge, bakaba bacecetse bari kubakurikirana ngo bumve ibyo bavuga.

Umukobwa wumunyeshuri wambaye impuzankano, akaba ari imbere afite igitabo n'ikaramu, bigaragara ko aribyo ari kubwira bagenzi be bicaye bamuteze amatwi kugira ngo bumve icyo munyeshuri mugenzi wabo ari kuvuga.

Icyumba kirimo abanyeshuri bigaragara ko ari ishuri, abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano bakaba bambaye n'udupfukamunwa bakaba bicaye imbere ya za mudasobwa ziteretse ku meza, bigaragara ko bano banyeshuri barimo gukoresha zino mudasobwa biga.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano isa, bakaba bicaye ku ntebe bafite amakayi n'amakaramu, bisa nk'aho imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha, bakaba nabo bamuteze amatwi bandika ibyo ari kubigisha.

Abanyeshuri bambaye impuzankano isa, bateranirijwe ahantu n'abayobozi bigaragara ko hari ikiganiro bari baje kugezwaho bamwe bakaba bicaye abandi bahaga. Abo bantu baje kubagezaho ikiganiro bakaba bari imbere yabo basa nkaho bari kubabwira nyine icyo bari baje kubabwira, bakaba babateze amatwi kugira ngo bumve ibyo baje kubabwira.

Inzu nziza igeretse ikaba ari inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba iteye amarange y'umuhondo, ikaba inasakaje amabati, imbere yayo hakaba hari umuntu uri kugenda, biragaragara ko iyi nyubako ari mu ibyumba by'ishuri.

Umugore muremure w'imibiri yombi ahagaze imbere y'abantu afite indangururamajwi mu ntoki yambaye n'amarineti, bigaragara ko hari ikiganiro ari kugeza kuri bano bantu kuko bicaye bamuteze amatwi bisa nkaho bari kumva ibyo avuga.

Icyumba cy'ishuri kiricayemo abanyeshuri bambaye impuzankano bari kwandika kuko bafite amakaramu n'amakayi, imbere yabo hahagaze umwarimu, akaba yambaye impuzankano, bigaragara yuko bari mu ishuri bari kwandika, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara.

Icyumba cy'ishuri kicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano isa, aba banyeshuri bakaba bicaye bafite amakaye mu ntoki, bigaragara yuko imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha, bakaba bicaye bitonze bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo avuga.

Cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano isa bakaba bicaye ku ntebe bafite amakaye n'amakaramu bisa nkaho imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha nabo bakaba bicaye bamuteze amatwi, bari kwandika ibyo ari kubabwira kugira ngo bazabashe gutsinda ikizami.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yabigenewe, bakaba bicaye imbere yabo hari mudasobwa ziteretse ku meza, bigaragara yuko bari kwiga kandi imbere yabo hakaba hari uri kubigisha bakamutega amatwi kugira ngo bumve ibyo ababwiye.

icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankan isa, hakaba harimo umwarimu wabo wambaye ishati y'umukara y'amaboko maremare afite indangururamajwi mu ntoki, bigaragara ko hari ibyintu ari kubabwira kuko bicaye bitonze nk'abamuteze amatwi bari kumva ibyo avuga.

Umunyeshuri w'umukobwa wambaye impuzankano yabugenewe, akaba ari mu muhanda w'ibitaka bigaragara ko ari kuva ku ishuri, kandi hirya ye hakaba hari ibyumba by'amashuri bifashisha bigiramo, na none hakaba hari ibiti birebire bigaragara yuko aha hantu haguye imvura ihagije.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bikagaragara y'uko bicaye ku ntebe, bakaba bicaye bateze amatwi umuntu uhagaze imbere uri kubagezaho ibyo ari kubigisha, bikaba bigaragara y'uko bamuteze amatwi bumva ibyo ari kuvuga.

Umwarimu n'umunyeshuri bahagarariye, uyu munyeshuri akaba yambaye impuzankano, akaba afite igipapuro cy'ishimwe bigaragaza ko uyu munyeshuri hari ibintu bitangaje yari yakoze, bakaba bari baje kumuhemba akaba ahagararanye n'umwarimu we.

Ahantu hateraniye abagore n'abagabo bigaragara ko hano hantu habereye ibiganiro, kuko harimo umugore uhagaze asa nk'ufite ijambo ariko kugeza kuri bano bantu, bakaba batuje bamuteze amatwi kugira ngo bumve ibyo ari kubabwira, bazabishyire mu bikorwa.

Abanyeshuri benshi bateraniye ahantu biragaragara yuko hari ikintu bari kubwirwa n'uyu mugenzi wabo uhagaze imbere yabo, bisa nkaho hari icyo ari kubabwira bakaba bamuteze amatwi kugira ngo bumve icyo ari kubabwira bityo babashe kugira icyo bakuramo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe, bari inyuma y'ishuri ryabo bigaragara y'uko bagiye kwinjira muri iryo shuri, ishuri ryabo rikaba ryubakishije amatafari ahiye rikaba rinasakajwe amabati meza agezweho, inyuma y'iri shuri kandi hakaba hari ubusitani burimo ibiti n'indabyo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano isa b'abakobwa bahagaze imbere y'abandi bicaye, bigaragara ko bafite igikorwa bari kwereka abicaye, abicaye nabo bakaba babateze amaso n'amatwi kugira ngo barebe banumve ibyo bari gukora.

Icyumba kirimo abantu barimo abagore n'abagabo bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza ariho amakayi, hakaba hariho n'amazi bari kunywa bigaragara ko aba bantu bari mu kiganiro, bakaba bicaye bari kumva ibyo bari kubabwira.

Icyumba cy'ishuri kirimo abakobwa n'abahungu bakaba bambaye impuzankano bicaye ku ntebe, bigaragara yuko bari gukora ikizamini kuko bafite impapuro n'ikaramu, baratuje bigaragara ko hari ibyo babahaye bagomba gukora.

Icyumba kinini kirimo abantu barimo abagore n'abagabo bikagaragara ko aba bantu bicaye batuje nk'aho imbere yabo hari umuntu uri kugira ikiganiro abagezaho bakaba bicaye batuje kugira ngo bamutege amatwi bumve ibyo ari kuvuga.

Amagare aparitse ahantu hayo byagenewe hakaba kandi aho aparitse hari imbuga ishashemo amabuye bigaragara neza ko yubatswe n'abantu babizi. Aho kandi hakaba hahagaze abantu bigaragara ko ari banyiraayo magare kandi hakaba hari ibiti bishishe.

Icyumba cy'ishuri cyicayemo abanyeshuri biragaragara ko aba banyeshuri bari gukora ibizamini kuko bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho imeza irambitseho ibipapuro bari gukoreraho ikizamini, bakaba bafite n'amakaramu ubona badafite umwanya wo gusakuza ahubwo bafite ibizamini bari gukora.

Abanyeshuri bateraniye ahantu mu cyumba bigaragara yuko aba banyeshuri bambaye impuzankano yabugenewe. Bakaba bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga. Bafite ikiganiro bari kuganiraho kandi imbere yabo hakaba hasa nk'umuntu uri kubabwira ibintu bishimishije kuko baragaragarana akanyamuneza ku maso.

Agahandada kerekeza ku nzu iri imbere isize irangi ry'umweru, ikaba ari inzu igeretse, ikaba isakajwe amabati atukura, imbere yayo hakaba hari igiti kirekire, hakaba hari n'ubusitani burimo ibirabyo bigaragara ko ahantu hasa neza.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri abo banyeshuri baragaragara nk'abari kwiga, kandi iki cyumba cy'ishuri kikaba kirimo intebe n'ameza bifashisha bari kwigiraho . Icyumba kandi kikaba gifite umuryango uriho ibirahure ,kikaba kinasize irangi ry'umuhondo.

Icyumba k'ishuri kicayemo abanyeshuri basa nkaho bari kwiga, imbere yabo hakaba hari mudasobwa bari kwiga bifashishije kandi bakaba basa nkaho bicaye hari umuntu imbere yabo bari gukurikirana, uri kubaha ano masomo bakaba bamuteze amatwi n'amaso kugira ngo bumve banarebe ibyo ari kubigisha.

Agahanda gatoya gakoze neza kari kunyuramo abantu, bigaragara ko aka agahanda kerekeza ku nzu iri imbere isize amarangi y'umweru, ifite inzugi n'ibirahure biri muri izo nzugi, hakaba hariho n'amadirishya kandi hirya y'iyo nzu, hakaba hari agace karimo ubusitani buteyemo ibiti n'ibirabyo bituma hagaragara neza.

Icyumba kirimo abantu benshi barimo abagore n'abagabo, bakaba bicaye imbere yabo hari mudasobwa, bigaragara yuko bari kwiga kandi na none imeza bariho zikaba ziteretseho ibyo kunywa, bakaba basa nk'aho hari ikiganiro bakurikiye.

Abanyeshuri bari mu ishuri bigamo, bakaba bari kumwe na mwarimu wabo ubahagazemo hagati, aba banyeshuri bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, kandi iri shuri bigamo rikaba rigaragara nk'irisa neza, kuko riteye amarangi y'umweru.

Icyumba kigaragara ko ari inzu y'ibitabo bikaba bigaragara yuko iki cyumba gifunze bakaba bakibikamo ibitabo bifashisha basoma kugira ngo babone ubumenyi buhagije bwo kugira ngo bazatsinde cyangwa se bunguke ibindi bintu bishyashya.